Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama, barakurikiye bose bicaye ku meza, kandi bafite n'ibikoresho bibafasha gukurikira inama, harimo na za mudasobwa, buri wese afite amazi yo kunywa.

Abaturage batandukanye bari ku biro by'akagari harimo abagabo, harimo abagore ndetse harimo n'abakiri bato, buri wese afite ihene yahawe kugira ngo izamuhe icyororo.

Abaturage bicaye ahantu barimo gukorera inama harimo abantu batandukanye harimo abagore harimo abagabo harimo abasore harimo inkumi umuyobozi ahagaze imbere yabo arimo arabaganiriza.

Abantu batandukanye bitabiriye inama muri Kigali arena. Ni abantu benshi batandukanye harimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo. Babahaye amazi kugira ngo baticwa n'inyota kandi bose barakurikiye.

Abantu batandukanye bari mu inama, harimo abagore, harimo n'abagabo, bose barimo baritegereza imbere aho umuntu uri kwigisha ari, icyumba cy'inama kimeze neza, kiratuje hari umutekano.

Abantu batandukanye bari mu mahugurwa ni abantu batandukanye harimo abagabo, harimo abagore, harimo abakiri bato, harimo n'umudamu uhetse umwana umuyobozi imbere arimo arabasobanurira.

Abantu batandukanye bitabiriye inama, bose bicaye ahantu heza buri muntu wese mu mwanya we, imbere ye hari akantu kandiditseho amazina ye n'igihugu yaturutsemo, bigaragare ko baturutse mu bihugu bitandukanye.

Abantu batandukanye bari mu mahugurwa, bambaye imyenda isa ifite ibara ry'ubururu, kandi umuntu ubahugura nawe ari imbere arimo arabasobanurira bari mu gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'amahugurwa bose barakurikiye imbere hari umukobwa umwe arimo kwandika ibiri mu kuvugirwa mu mahugurwa abandi bateze amatwi.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama barakurikiye, bose bicaye ku meza amwe kandi bicaye barenganiye. Umuyobozi w'inama yicaye ku rundi ruhande, nta muntu n'umwe urangariye mu bintu bye cyangwa se ngo abe ari gucokoza terefone igendanwa.

Abaturage batandukanye bicaye hasi bakurikiye inama z'umuyobozi. Abaturage bose harimo abagabo n'abagore bose barakurikiye, imbere yabo hari umuyobozi urimo abaganiriza.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama bakurikiye inama harimo abagore, harimo abagabo mbese baratandukanye, bahawe amazi yo kunywa kandi bose barakurikiye mu gihe inama irimo itangwa.

Ahantu habereye ubukwe, ni ahantu heza kuko bigaragara ko ari ubusitani bwiza, bahateye amahema agezweho abiranye n'ubukwe, kandi abantu bose baricaye baratuje ntibanyagirwa nta n'izuba ririmo kubica, bicaye ku ntebe z'umweru.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama bakurikiye inama. Baratandukanye harimo abagabo, harimo abagore, kandi bose bicaye bareba imbere, buri wese afite amazi kandi harimo n'abafite mudasobwa bari gukoresha.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama bari mu nama , barimo baraganira ku ngingo nyinshi zitandukanye umuyobozi ahagaze hagati naho hari umuntu umwe mu bagize inama uhagaze uri mu gusobanura ibintu runaka.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama. Bose bicaye ku meza ameze neza, kandi bose bicaye ku buryo barebana. Uyoboye inama yicaye ukwe bose bafite ibyuma bibafasha gutanga ibitekerezo.

Abaturage bari mu nama isanzwe y'ubuyobozi, ni abantu benshi batandukanye harimo abagore, harimo abagabo, harimo n'abandi, ahantu habereye inama bahateguye neza kubera ko ibitambaro byahateguye bikoze ibendera ry'u Rwanda.

Abaturage bicaye hasi bari mu nama itandukanye y'ubuyobozi. Ni inama igizwe n'abaturage bose ari abagore, ari abagabo; umuyobozi ahagaze imbere ya bo arimo arabigisha.

Abantu batandukanye bari mu nama, abantu harimo abagabo harimo abagore bose bicaye ku meza azengurutse, buri wese afite amazi kandi afite icyo kwandikaho.

Abantu batandukanye bari mu nama, harimo abantu batandukanye kandi b'abayobozi. Harimo abashinzwe umutekano ndetse n'abayobozi basanzwe, bose barakurikiye kandi harimo n'abafite mudasobwa.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'amahugurwa, bose bicaye neza buri wese yicaye ku ntebe ye, intebe ni ntebe nziza zifite ibara ritukura, hagati harimo uwahagurutse yafashe ijambo.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama cyangwa se abahugurwa, barimo barakurikira kubera ko bahawe n'amakaye n'amakaramu byo kwandika ibimugirwa mu nama. Buri wese afite amazi yo kunywa, hari umuntu urimo kugira ibyo ababwira ugazaze imbere yabo.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama. Habereye inama kandi buri muntu wese arakurikiye imbere ibiri kuvugwa. Buri wese afite amazi yo kunywa imbere ye kugira ngo ataza kugira inyota.

Abantu batandukanye bicaye bari mu nama hakaba harimo abantu b'abagabo n'abagore ndetse harimo n'umunyamahanga w'umuzungu barimo barakoresha ikoranabuhanga ryerekana amashusho.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama. Icyumba cy'inama kimeze neza, kirimo intebe nziza zinepa, ndetse buri muntu wese yicaye areba imbere, kandi bose bahawe amazi yo kunywa.

Abantu batandukanye bari mu mahugurwa, bose bicaye ku meza ateguye neza kandi buri wese yicaye ku ntebe ye bwite. Umuntu urimo guhugura ahagaze imbere arimo gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo abagezeho ibyo bateguye.

Abantu batandukanye bari mu mahugurwa bose baricaye kandi barimo gukurikira imbere, umuntu arimo guhugura arimo arabereka kandi arimo arifashisha ikoranabuhanga.

Abantu bicaye bari mu nama yabahuje, ni abantu bari mu bihugu bitandukanye, kubera ko imbere ya buri wese afite icyapa cyanditseho izina rye n'igihugu yakomotseho, ni ab'igitsina gore.

Inama yahuje abantu b'ingeri zose zitandukanye, harimo abayobozi b'Igihugu, barimo inzego z'umutekano urugero nk'abasirikare, harimo n'abaturage basanzwe, abagabo n'abagore bicaye bateze amatwi.

Umunara w'itumanaho ni umunara wubakwa n'ikigo cy'itumanaho kugira ngo gishyireho ibikoresho bitandukanye bizagifasha gusakaza amajwi amashusho cyangwa se gukwirakwiza murandasi ku bantu batuye kure.

Reb ni ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze mu mashuri. Aho gikurikirana uburyo amashuri yubakwa, uburyo abarimu bashyirwa mu myanya ndetse n'imyigire itandukanye y'abanyeshuri.

Eyateri ni ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda. Gifite iminara y'itumanaho igifasha gusakaza amajwi cyangwa se gukwirakwiza murandasi mu turere dutandukanye abaturage bakeneye serivisi zabo.

Umunara w'itumanaho ni umunara ukoreshwa n'ibigo bitandukanye by'itumanaho kugira ngo bishyireho ibyuma bibafasha gusakaza no kwakira amashusho cyangwa amajwi, bituma abantu batuye kure babasha kubona serivisi zivuye muri ibyo bigo.

Umunara w'itumanaho wubatse ahantu kuruhande wegeranye n'urugo rw'umuturage, umunara w'itumanaho ukoreshwa mu gushyiraho insakazamajwi n'insakazamashusho kugira ngo abaturage batuye kure yawo babe babasha gukurikirana ibiganiro kuri televiziyo.

Unyuze ku rubuga irembo govu ushobora guhabwa serivise zitandukanye, ushobora guhabwa serivise z'ibyemezo bitandukanye usabira mu nzego z'ibanze, ushobora no kuhasanga serivise zitangwa n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere nko kwandikisha umuryango utari uwa leta n'ibindi.

Urubuga Irembo ushobora gusabiraho serivise zitandukanye, hamwe na serivise ya byikorera ushobora gusaba serivise zose za porisi ziboneka ku rubuga Irembo, ibisabwa ni uko ugomba kuba uri Umunyarwanda ufite indangamuntu kandi ukaba ufite imyaka irenga cumi n'itandatu.

Umunara w'itumanaho ushobora gukoreshwa na sosete y'itumanaho kugira ngo iwushyireho ibikoresho byayo bizatuma ibasha gutumanaho cyangwa se kugeza ubutumwa bwayo ku bantu batuye kure.

Umunsi mpuzamahanga w'umurimo wizihizwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu buri mwaka. Abakozi n'abakoresha bose bahurira hamwe kugira ngo bahabwe ibiganiro bitandukanye bishingiye ku murimo.

Ku rubuga Irembo govu ushobora kuhabonera serivisi zitandukanye wakwifuza, ushobora gusabiraho ibyemezo bitandukanye nk'icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'uko uri ingaragu, icyemezo cy'uko washatse cyangwa se icyemezo cy'uko utuye n'ibindi bitandukanye.

Umunara w'itumanaho ukoreshwa n'amasosiyete y'itumanaho mu gihugu, kugira ngo ushyirweho insakazamajwi n'insakazamashusho, cyangwa se ibyuma bishobora gutanga murandasi muduce dutandukanye tw'icyaro aho ritangeraga.

Hamwe na serivisi ya byikorere itangwa n'urubuga irembo gove. Ushobora kwiyandikisha mu bizamini cy'uruhushya rw'icyiciro kisumbuye cyo gutwara ibinyabiziga, cyangwa se ugahabwa indi serivisi iyo ari yose wifuza itangwa n'urubuga irembo gove.

Ibikoresho by'itumanaho bishobora gukoreshwa na sosiyete z'itumanaho mu gihugu kugira ngo bitange amakuru cyangwa se bitange amajwi n'amashusho ku nyakiramashusho cyangwa inyakiramajwi, bishobora gushyirwa hejuru y'inzu ndende cyangwa se bigashyirwa ku munara.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro, ni kigo cyashyizweho na leta y'u Rwanda kugira ngo kijye gikusanya amafaranga y'imisoro yavuye mu bucuruzi, kubwi mirimo ibyara inyungu baba bakoze mu gihugu cy'u Rwanda.

Umunsi mpuzamahanga w'umurimo uba ku itariki ya mbere Gicurasi buri mwaka, kuri uwo munsi abakozi n'abakoresha bahurira hamwe kugira ngo bongere basuzume uko bakoze umurimo muri uwo mwaka barebe n'ibindi byabateza imbere.

Umunara w'itumanaho ukoreshwa n'ibigo bifite itumanaho mu rwanda, umunara ukoreshwa mu kohereza amajwi n'amashusho ahantu hatandukanye ubundi hatuwe nabi cyangwa se itumanaho ritageraga.

Ahatangirwa serivisi z'irembo. Wahabona serivisi zitandukanye gusaba ibyangombwa biyitandukanye nk'ibyemezo by'amavuko, ibyemezo by'ingaragu, ibyemezo by'uko umuntu yashatse cyangwa icyemezo cy'uko umuntu yakatiwe cyangwa ko atakatiwe n'inkiko.

Gahunda ya byikorere ishobora gufasha buri muntu wese wifuza serivisi ku rubuga irembo kuzisabira nta kindi kiguzi ushobora gusababaho serivisi za polisi icy'ingenzi ni uko uba ufite indangamuntu y'u Rwanda kandi ukaba ufite imyaka iri hejuru ya cumi n'itandatu.

Ecobank ni kimwe mu bigo by'imari bikorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hamwe na Ecobank ushobora guhabwamo serivisi zitandukanye z'amabanki nko kubitsa, kubikuza, gufungura konti, kohereza amafaranga, no kwishyura ibintu byinshi bitandukanye.

Serivisi ya byikorere itangwa n'ikigo irembo, ituma umuntu wese ufite mudasobwa cyangwa terefone igendanwa, ashobora kwisabira serivisi zimwe na zimwe ziboneka ku rubuga irembo govu. Bituma rero umuntu ahabwa serivisi atagiye kuyisaba ahandi aho ari ho hose.

Ukoresheje urubuga irembo kuri telefone yawe ushobora kwisabira serivisi zitandukanye urugero nko kwiyandikisha ku kizamini cyo gutwara ibinyabiziga, ikizamini cya burundu cyangwa ikizamini cy'agateganyo. Ushobora rero gukora telefone yahawe cyangwa ugakoresha mudasobwa.

Umunara w'itumanaho wa sosiyete y'itumanaho MTN Rwanda, uyu umunara ushobora gukoreshwa mu gusakaza amajwi, gutanga murandasi ku bice byinshi by'igihugu cy'u Rwanda.

REB ni ikigo k'igihugu cy'uburezi bw'ibanze. REB ikaba ishinzwe mu nshingano kwita ku mashuri ndetse n'abanyeshuri, ishyira mu kazi abarimu bakenewe kugira ngo bigishe abanyeshuri.

Umunara w'itumanaho ni umunara ukoreshwa mu kugeza amajwi cyangwa amashusho mu bice bitandukanye by'igihugu. Ushobora gukoreshwa n'ibigo bitandukanye by'itumanaho.

Gahunda ya byikorere ishobora kugufasha kwisabira serivisi zitandukanye ku rubuga irembo ushobora kwiyandikisha ku kizamini cyo gutwara ibinyabiziga uruhushya rwa burundu cg se izindi serivisi.

Mudasobwa zikoreshwa n'abana bakiri bato bo mu mashuri abanza, aba bana babiri bakoresha mudasobwa zabo bashushanyamo ibintu bitandukanye bigize ikoranabuhanga.

Umunara w'itumanaho ushobora gukoreshwa n'ibigo bitandukanye by'itumanaho kugira ngo bishyireho ibyuma bisakaza amajwi, amashusho cyangwa se ibishobora gukwirakwiza murandasi mu duce twa kure itageragamo.

Mu mujyi wa Kigali hari inzira yagenewe abanyamaguru, abantu b'ingeri zose baricaye, bari mu gukoresha telefone zabo zigendanwa, bari mu gushaka murandasi y'ubuntu, itagurishwa, iboneka, yashyizwe muri kano gace.

Irembo ni urubuga rutangirwaho serivisi zitandukanye za leta, ushobora gusabiraho ibyemezo bitandukanye nk'icyemezo cyo kubura uri ingaragu, icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'uko washatse, icyemezo cy'uko wafunzwe cyangwa utafunzwe n'ibindi.

Urubuga irembo ni urubuga rusubirwaho serivisi zitandukanye za leta, ushobora kubasababira ibyemezo bitandukanye nk'icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'uko umuntu yashatse, icyemezo cy'uko umuntu ari ingaragu, icyemezo cy'uko utafunzwe, icyemezo cy'uko utuye n'ibindi byemezo bitandukanye.

Urubuga Irembo ni urubuga rusabirwaho serivisi zitandukanye za leta, nshobora gusaba serivisi zitandukanye cyangwa se ibyemezo nk'icyemezo cy'amavuko, icyeyemezo cy'uko washatse, icyemezo cy' uko utakatiwe n'inkiko, icyemezo cy'uko utuye cyangwa se ibindi.

Umunara w'itumanaho ni umunara wubakwa na sosiyete z'itumanaho kugira ngo bashyireho ibyuma bisakaza amajwi cyangwa se bisakaza amashusho, kugira ngo bageze amajwi n'amashusho ku baturage batuye kure.

Umukozi w'ikigo gishinzwe gutanga amashanyarazi, yuriye, yagiye hejuru kugira ngo amanike insinga zishobora guhereza umuntu amashanyarazi cyangwa se kugira ngo asane ibyangiritse.

Umuhanda wa kaburimbo, utarimo ibinyabiziga ariko ufite inzira y'abanyamaguru ku ruhande. Umuhanda ufite amatara awucanira mu gihe cy'ijoro kandi unyuzweho n'insinga z'amashanyarazi, zihereza umuriro w'amashanyarazi abaturage bahatuye.

Mu muhanda wa kaburimbo hari abanyonzi batatu bafite amagare bari gushakisha abagenzi. Igare rimwe riri hafi y'aho imodoka itwara abagenzi nini cyane ihagarara. Bategereje abagenzi bava muri iriya modoka.

Umuhanda wa kaburimbo uriho amatara awumurikira nijoro, umuhanda uriho n'insinga z'amashanyarazi zijyana amashanyarazi ku ngo ziri hirya, umuhanda uriho ibiti by'imikindo.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti bitandukanye, ku ruhande rwo haruguru hari akayira kagenewe abanyamaguru, ku muhanda kandi hariho amatara ahamurikira n'ijoro, kuruhande hahagaze imodoka ebyiri ziyifite ibara ry'umweru.

Insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro w'amashanyarazi mu gace ka kure amashanyarazi aparasa ageramo, aya mashanyarazi afasha abaturage batandukanye kubona urumuri rwo gucana no gukoresha ibikoresho bimwe na bimwe bikoreshwa n'amashanyarazi.

Insinga z'amashanyarazi ni insinga zikoreshwa mu kuvana no kujyana amashanyarazi ahantu amashanyarazi atarari, ku buryo abaturage baho bashobora kubona umuriro wo gucana no gukoresha ibikoresho bitandukanye.

Imodoka nini itwara abagenzi ifite ibara ry'ubururu, ni imodokadoka itwara abagenzi mirongo irindwi, kubera ko hari abagenda bicaye hari n'abagenda bahagaze, ni imodoka zitwarwa n'amashanyarazi.

Ibyuma binyuzwaho insinga z'amashanyarazi, bayajyana mu turere twa kure. Izi nsinga zitwara amashanyarazi, kugira ngo bayageze mu tundi turere, aho amashanyarazi ubusanzwe atageraga.

Ibikorwa remezo bigizwe n'insinga zitwara amashanyarazi, ni insinga zigeza umuriro w'amashanyarazi ku baturage mu ngo zabo. Uyu muhanda kandi uriho amatara awucanira mu gihe ari nijoro.

Insinga zubatswe munsi y'umuhanda zitwara amashanyarazi. Zishobora gukoreshwa kugira ngo zigeze amashanyarazi ahantu kure ubundi atageraga kugira ngo abaturage bave mu icuraburindi.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amashanyarazi, yashyize urwego ku giti kimanitseho insinga arurira kugira ngo ajye guha amashanyarazi urugo rutayafite.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibyerekezo bibiri hagati y'ibyo byerekezo bibiri hari ubusitani buteyeyemo ibiti by'imikindo munsi y'umuhanda hari ikigo nderabuzima ni ukuvuga ivuriro.

Imbangukiragutabara ni imodoka zikoreshwa na minisiteri y'ubuzima, kugira ngo zitware abarwayi b'indembe, bava ku bigo nderabuzima bajya kwivuriza ku bitaro bishoboye cyangwa se ku bitaro baboherejeho.

Imbangukiragutabara ni imodoka zihariye zikoreshwa na minisiteri y'ubuzima mu bikorwa byayo byo gukura abarwayi ku bigonderabuzima bitandukanye zibajyana ku bitaro by'akarere cyangwa se ibindi bitaro bibavura.

Inzu ikorerwamo n'inzego z'ubuyobozi. Ni inzu nziza cyane igeretse hejuru, ifite inzira nziza, ifite n'ubusitani buzamuyemo ibendera ry'u Rwanda. Ni inzu y'ubuyobozi kubera ko hari ibendera ry'u Rwanda.

Imodoka itwara abarwayi kwa muganga bayita imbangukiragutabara, ikoreshwa na minisiteri y'ubuzima kugira ngo ijye ivana abarwayi ku bigo nderabuzima ibajyana ku bitaro abo boherejwe kuvurirwa.

Iduka ricuruza imiti itandukanye, ririho kizimyamwoto. Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa bazimya inkongi y'umuriro. Ikaba iri ku iduka kugirango haramutse hari inkongi y'umuriro yarifata babe bazimya mu buryo bworoshye.

Igororero naho abagororwa ni ukuvuga abantu bakoze ibyaha bakashinjwa n'ubutabera bagakatirwa ibihano ni aho aho bafungirwa kugira ngo baharangirize ibihano bakatiwe.

Abagororwa ni abantu baba bakoze ibyaha bitandukanye, maze inkiko zikabakatira ibihano bitandukanye, hanyuma bamara kubakatira ibihano bakajya gufungirwa mu bigo bita igororero.

Umugore wambaye ikanzu itukura igeze hasi irimo imishumi y'umweru minini cyane imbere yambaye ingofero ifite amabara y'umuhondo n'umukara yafashe ku ibendera ry'igihugu azamuraye ukuboko arimo kurahira, ni umucamanza.

Mu cyumba cy'iburanisha ry'urukiko. Umugabo uri hagati wambaye ipantaro n'ikote bisa arimo araburana, hari abagabo babiri bamukikije umwe iburyo undi ibumoso, bambaye amakanzu maremare y'umukara n'udutambaro tw'umweru mu gatuza ni abamwunganira mu mategeko.

Umugororwa w'igitsina gore yambaye ikanzu y'ibara ry'iroza, yambitswe amapingu ashorewe n'abacungagereza babiri, bamujyanye mu modoka kugira ngo bamusubize aho ari mu igororero.

Igororero rya musanze ni rimwe mu magororero ari hirya no hino ku gihugu cy'u Rwanda. Igororero ni aho abantu bahamwe n'icyaha bahatirwa n'inkiko bafungirwa mu gihe bategereje kurangiza ibihano byabo.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cyabereyemo ubukwe, babicaje neza ku buryo abantu bake bagiye bicaye ku meza azengurutswe n'utuhure baza gufatisha icyo kunywa. Bose barimo baritegereza aho abageni bari.

Abantu batandukanye bashakishwa kubera jenoside bakoze mu Rwanda, harimo Kabuga Felicien na Augustin Bizimana, ariko bamaze gufatwa ntabwo bagishakishwa.

Umuntu wambaye ikanzu ndende ifite ibara ry'umutuku harimo n'ifite ibara ry'umukara, mu gatuza harimo igitambaro kirekire gifite ibara ry'umweru, uyu muntu akorera inzego z'ubutabera akaba ari umucamanza.

Ingabire Victoire ni umwe mu banyepolitiki, batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, wafashwe agafungwa, azira ingengabitekerezo ya jenoside. Yambaye ikanzu y'abagororwa y'ibara y'iroza.

Mu cyumba cy'iburanisha, hari umugore uri imbere y'abacamanza urimo kuburana, iruhande rwe ari kumwe n'umugabo wambaye ikanzu ndende y'umukara wambaye agapfukamunwa, n' umwunganizi we mu by'amategeko.

Abaturage bicaye mu rukiko Gacaca, inkiko Gacaca ni inkiko zashyizweho na Repubulika y'u Rwanda, zagenzurwaga na Minisiteri y'ubutabera kugira ngo zigabanye umubare w'imanza z'abantu baregwaa jenoside mu Rwanda.

Inkiko gacaca zashyizweho mu Rwanda kugira ngo zifashe mu butabera, aho hari abantu benshi batandukanye ibihumbi n'ibihumbi bakoze ibyaha bya jenoside kandi babakemuriye ko ukuri kugaragara.

Abantu batandukanye bashakishwa n'urukiko kugira ngo batabwe muri yombi kubera ibyaha byakozwe muri jenoside yakorewe mu Rwanda. Ubu leta z'ubumwe z'amerika yabatanzeho miliyoni eshanu z'amadolari ku muntu wese uzabatangaho amakuru. Bamwe barafashwe abandi ntibarafatwa.

Umugabo muremure cyane wambaye ikanzu y'umutuku igera hasi irimo ibara ry'umukara, imbere mu gatuza hariho umushumi munini w'ibara ry'umweru, uyu mugabo ni umucamanza.

Paul Kagame ni perezida wa repubulika y'u Rwanda kuva mu mwaka bibiri na gatatu kugeza uyu munsi. Arimo kuyobora muri manda ye ya kane. Afashe ijambo arimo ararigeza ku baturage.

Abantu bicaye bose ni igitsina gore, bose barogoshe mu mutwe nta muntu nta numwe ufite umusatsi, kandi bose bambaye amakanzu y'ibara ry'iroza, aba bose ni abagororwa b'igitsina gore.

Umuntu w'Umwarabu, bigaragara ko ari umusilamu ari hagati y'abapolisi babiri, abapolisi bari mu kazi kabo kuko bambaye imyenda y'akazi kandi bafite n'ibikoresho, baramujyanye ku bw'amakosa yakoze.

Umuntu wambaye ikanzu ndende ifite ibara ry'umutuku hamwe n'ibara ry'umukara mu gatuza hari agashumi k'ibara ry'umweru kamanutse, uyu muntu ni umucamanza.

Umuntu wambaye ikanzu ndende y'umutuku irimo ibara ry'umukara. Mu gatuza haramanutse agatambaro k'umweru azamuye ukuboko ku iburyo ukw'ibumoso gufashe ku idarapo ari mu kurahira akazi k'ubucamanza.

Abapolisi babiri bambaye imyenda y'akazi, bafashe umuntu ari hagati yabo, umwe afashe ukuboko kumwe undi afashe ukundi. Inyuma yabo hari abagabo babiri bambaye amakoti n'amakarita y'akazi. Uyu muntu ni umunyabyaha ugiye gufungwa.

Abantu bahagaze ku murongo barimo kwifotoza, hagati hari nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ku mpande hari abantu bambaye amakanzu y'umutuku, ni bacamanza, inyuma hari abandi banyacyubahiro barimo kwifutozanya nawe.

Inkiko gacaca ni urwego rwashyizweho na repubulika y'u Rwanda, rukagenzurwa na minisiteri y'ubutabera, mu Rwanda. Inkiko gacaca, zafashije cyane mu guca imanza z'abantu bakoze jenoside, n'abantu banyereje imitungo, mu gihe cya jenoside yakorewe abaturage mu Rwanda.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ahantu harimo gushya. Kizimyamwoto ishobora kuzimya inkongi y'umuriro mu rugo, ku kazi, mu iduka cyangwa se ahandi hose yabonetse.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro kugira ngo bayizimye. Kizimyamwoto ishobora gukoreshwa ahantu hatandukanye kwa muganga, mu biro, ku kazi, muri butike cyangwa se mu modoka.

Ishami rya polisi y'igihugu rishinzwe gukoresha ibizamini, icyumba cy'ikoranabuhanga gikorerwamo ibizamini mu buryo bw'ikoranabuhanga ku bantu bashaka impushya z'agateganyo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Giherereye ku Muhima mu mujyi wa Kigali.

Zigama CSS ni ikigo k'imari gikorana n'inzego z'umutekano mu Rwanda, abakiriya bacyo harimo aba ingabo z'igihugu, abagize polisi y'igihugu, ndetse n'abandi bantu bakora mu nzego z'umutekano.

Zigama CSS ni ikigo cy 'imari gikorana n'abashinzwe umutekano mu Rwanda. Gikorana n'ingabo z'Igihugu, polisi y'Igihugu, ikigo k'Igihugu cy'ubugenzacyaha ndetse n'abandi bashinzwe umutekano mu Gihugu.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa bazimya inkongi y'umuriro, kizimyawoto ntabwo ziba zingana hari inini hari intoya, uko igenda iba nini ni nako ifite ubushobozi bwo kuzimya buruta ubw'intoya.

Kizimyamwoto ni igikoresho bakoresha bazimya inkongi y'umuriro, ushobora gukoresha ikizimyamwoto igihe wabonye inkongi y'umuriro mu modoka, aho ukora ku kazi, mu rugo cyangwa se mu iduka.

Umupolisi wo mu ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda yambaye imyenda y'akazi yahagaritse imodoka kugira ngo agenzure niba imodoka yujuje ibyangombwa bisabwa cyangwa se uyitwaye nawe afite ibyangombwa bimwemerera gutwara ibinyabiziga.

Polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano wo mu umuhanda icyumba gikoreshezwamo ibizamini by'impushya zo gukora ibinyabiziga by'agateganyo giherereye ku Muhima mu mujyi wa Kigali.

Kizimyamwoto ni igikoresho bakoresha bazimya inkongi y'umuriro kizimyamwoto ishobora gukora ahantu hatandukanye ushobora kuyizimisha umuriro mu rugo, ushobora kuyikoresha ku kazi, ushobora kuyikoresha mu iduka cyangwa se mu biro.

Kizimyamwoto ikoreshwa bazimya inkongi y'umuriro. Kizimyamwoto ishobora kuzimya umuriro bitewe n'ingano kizimyamowoto cyangwa se n'ingano y'umuriro. Ushobora kuyikoresha mu rugo, ku kazi, mu iduka cyangwa se mu modoka.

Umupolisi wo mu ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda, yambaye imyenda y'akazi bambara barimo gukora akazi kabo mu muhanda yahagaritse imodoka arimo arabaza umuntu yitwaye ibyangombwa bigaragaza ko yemerewe kugenda mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite akayira k'abanyamaguru ku ruhande, muruyu muhanda harimo imodoka nini cyane ya polisi y'igihugu ifite ibara ry'umukara rivanze n'ibara ry'umweru.

Ku muhanda hari ahantu abantu bacuruza serivise za mobile mane bicara mu mitaka yabo, hari abapolisi batatu bashinzwe umutekano barimo bagendagenda, iruhande rwabo hari umuntu utwaye igare.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka zirimo kugenda, hari imodoka y'umukara irimo kuza, n'imodoka y'umweru iyikurikiye zirimo zirabisikana n'imodoka nini ya polisi y'u Rwanda. Ku ruhande rw'umuhanda hari akayira kagendwamo n'abanyamaguru.

Umupolisi wo mu ishami rya polisi rishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, arimo arigisha abanyeshuri ku kigo cy'amashuri ukuntu bakoresha kizimyamwoto. Kizimyamwoto akaba ari igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Umupolisi wo mu ishami rya polisi rishinzwe gukoresha ibizamini byo gutwara ibinyabiziga, ari mu kibuga arimo arakoresha abantu bashaka impushya zo gutwara imodoka hari imodoka, harimo aritegereza ukuntu umuntu umunyeshuri arimo gukora ikizami.

Abantu babiri bahagaze bazamuye ukuboko kw'iburyo, ukw'ibumoso gufashe ku ibendera ry'igihugu umwe ni umugabo undi ni umugore bose barimo kurahira.

Abagabo bane bambaye neza bahagaze bafatishije ukuboko kw'ibumoso ibendera ry'u Rwanda, kandi bazamuye ukuboko kw'indyo. Barimo bararahira ku bw'inshingano nshyashya bahawe mu kazi.

Abantu batandukanye barahagaze, bafashe ukuboko kw'ibumoso gufatishije ku ibendera ry'u Rwanda ukw'iburyo barakuzamuye, barimo bararahira imirimo bashinzwe na leta y'u Rwanda.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ahagaze mu nteko ishinga amategeko. Harimo n'abandi bayobozi batandukanye, arimo arabaha ikiganiro n'impanuro zitandukanye.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ari muri sitade amahoro ku munsi wari wagenewe ku irahira rye muri manda ye ya kane. Abantu bose bari muri sitade kandi sitade iruzuye.

Habyarimana Juvenali yabaye perezida wa repubulika y'u Rwanda muri repubulika ya kabiri, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu kugera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Bernard Makuza ni umwe mu banyepolitiki babaye mu gihugu cy'u Rwanda, yabaye minisitiri w'intebe, aba umudepite, ubu ni umusenateri muri sena y'u Rwanda, aricaye ari mu nteko afite icupa ry'amazi ari mu gutanga igitekerezo.

Abantu bari mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko bafashe ibendera ry'igihugu n'ukuboko kw'ibumoso bazamuye ukuboko kw'indyo barimo bararahira, hari n'abandi bicaye bakurikiranye uwo muhango.

Nyakubahwa Polo Kagame ni perezida wa repubulika y'u Rwanda uyu ni umunsi w'amatora y'abadepite yatanze urugero afata iya mbere mu kwitabira amatora arimo arashyija urupapuro mu gasanana k'itora kubera ko yamaze gutora.

Abadepite bicaye mu myanya yabo mu Inteko Ishinga Amategeko, bageze mu mwanya wo gutora amategeko umwe yatambagije agaseke bagenda bashyiramo amajwi batoye.

Abayobozi bakuru bari mu nama bose baricaye, bafite ibibazo bitandukanye by'igihugu barimo kugenda baganiraho, ni abayobozi bakuru kubera ko harimo perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame.

Abantu bane bari mu icyumba cy'inama babiri ni abagore abandi babiri ni abagabo bose bafashe ibendera ry'igihugu n'ukuboko kw'ibumoso bazamuye ukuboko kw'indyo bari mu kurahira kubera ko ari abayobozi.

Paul Kagame ni perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuva mu mwaka wa bibiri na gatatu, ubu ngubu akaba ari muri manda ya kane. Yavutse mu mwaka w'igihumbi maganacyenda mirongo itanu n'icyenda, akaba ari umuyobozi ukunzwe cyane kubera ko yita ku bibazo by'abaturage.

Umugore ufite igitabo mu ntoki, yitwa Agatha Uwiringiyimana akaba yari minisitiri w'intebe wapfuye mu gihe cya jenoside, yabaye mu mwaka w'igihumbi maganacyenda mirongo icyenda na kane mu Rwanda.

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame arimo arinjira ari kumwe na madamu we Nyakubahwa Jeannette Kagame, Umukuru w'igihugu n'umudamu we barimo barajya mu birori aho bateguriwe.

Nduhungirehe olivier ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta y'u Rwanda, ahagaze imbere arimo aratanga ikiganiro, afite ikirahure cy'amazi, inyuma ye hari ikirango cya Repubulika y'u Rwanda.

Habineza Furanka ni umwe mu bakandida biyamamarije kuba perezida wa repubulika mu matora ya bibiri na makumyabiri na kane ari mu modoka arimo aragenda yiyereka abaturage.

Pierre Damien Habumuremyi ni umwe mu bagabo bakomeye babayeho mu gihugu cy'u Rwanda, yabaye minisiitiri w'intebe mu gihe kirekire, hanyuma aza gufungwa kubera ibyaha yakoze mu kazi, ariko nyuma aza gufungurwa ku mbabazi za perezida wa repubulika.

PL ni rimwe mu mashyaka yemewe mu Rwanda, ni ishyaka rifite ikirangantego kigizwe n'ibara ry'icyatsi kirimo inyenyeri eshatu n'umunzani.

Abantu batandukanye bahagaze ku mirongo ibiri barimo barererekeza aho bagiye gusaba serivisi. Buri muntu wese ari inyuma y'undi nta guca ku ruhande kugira ngo atange abandi.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo abantu babiri b'abanyonzi, batwaye amagare ariko badafite abagenzi. Inyuma yaho hari bisi ifite ibara ry'umutuku itwara abagenzi benshi icyarimwe.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibyerekezo bibiri bitandukanye, ahazamuka harimo umumotari utwaye moto, naho ahamanuka nta kinyabiziga kirimo. Ibyo byerekezo byombi bigabanyijwe n'agace gateyemo ubusitani n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo moto itwara imizigo. Moto itwara imizigo ishobora gufasha abantu kugeza ibicuruzwa byabo ku isoko, ndetse igafasha n'abantu bagiye guhaha kugeza ibyo bahashye mu rugo.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, hari imodoka y'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cy'u Rwanda RBA, ifite amabara y'ubururu n'umweru irimo kuzamuka, ku ruhande rwo hepfo hari imodoka y'umukara irimo kuzamuka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini yikorera imizigo, ifite ibara ry'umweru. Inyuma itwikirije ibara, ihema ry'umweru. Igiye kugera ahantu hari ikiraro. Ku muhanda hepfo, hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo moto yikorera imizigo bakunda kwita rifani, iratwikiriye. Inyuma kandi munsi y'umuhanda hateye ibiti byinshi bitandukanye, uyu muhanda uriho amatara amurikira ibinyabiziga nijoro.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini itwara abagenzi benshi, itwara benshi kubera ko bamwe bagenda bicaye abandi bakagenda bahagaze. Imbere yayo igiye guhura n'umumotari utwaye moto, ku ruhande rwagenewe abanyamaguru hari umunyamaguru urimo kugendamo.

Abamotari babiri bari mu muhanda, bose bari kuri za moto zabo kandi bose bambaye imyenda y'akazi, barimo barashakisha abagenzi, umwe arahagaze undi arimo aramanuka. Imbere yabo hari imodoka irimo kumanuka.

Umuhanda wa kaburimbo mugari, munini, ku ruhande rwo hepfo ufite inzira yagenewe abanyamaguru. Akamoto kagenewe gutwara imizigo karimo karawugendamo. Ku ruhande rwo hepfo hateye ibiti byinshi bitandukanye. Uyu muhanda kandi uriho amatara awucaniye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo inzira y'abanyamaguru ku ruhande ni umuhanda usa n'ushaje kubera ko watangiye kuzana imitutu, mu ruhande rwo hepfo hari ikamyo nini cyane y'umutuku itwara amabuye.

Umuntu w'igitsina gore arimo kugenda akinisha telefone, hakurya ye hari umunyonzi utwaye umugenzi ku igare, mu muhanda wa kaburimbo kandi harimo imodoka nini cyane y'umweru yikorera imizigo.

Ku muhanda wa kaburimbo udafite ibinyabiziga byinshi, harimo moto itwara imizigo ifite ihema ry'umweru biyitwikiriye. Munsi y'umuhanda hari ibiti bitandukanye kandi umuhanda uriho amatara amurikira abagenzi b'ibinyabiziga.

Abamotari babiri batwaye abagenzi mu muhanda wa kaburimbo. Imbere yabo hari ikimodoka kinini cy'umweru, gikoreshwa ahantu barimo kubaka, kugira ngo kivange za sima n'ibindi bikoresho.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umuntu utwaye igare rihetse umuzigo, uyu muntu afite igikapu mu mugongo, munsi ye hari undi uri ku igare ritoya rya siporo nabo barajya mu cyerekezo kimwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragedwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, hari ipikipiki yikorera imizigo irimo imanuka ifite ihema ry'umukara inyuma, hari imodoka itwara abagenzi igiye kubisikana n'pikipiki itwara imizigo, hari umumotari urimo umanuka muri uwo muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo kuva izuba, hari igiti kiri munsi y'umuhanda. Umumotari ahetse umugenzi nawe aragenda mu muhanda.

Abamotari batandukanye bahagaze aho bategerereza abagenzi, bambaye imyenda yabo y'akazi kandi moto zabo bazivuyeho. Abenshi muri bo bari gukoresha moto zitwarwa n'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo hari umumotari uhetse umuntu urimo kuzamuka agiye kugera ku nzira abanyamaguru bambukiramo, ikaba ari inzira igizwe n'imirongo y'umweru iciye mu muhanda igaragazaho abanyamaguru bambukira.

Imodoka y'umweru itwara imizigo iri mu muhanda wa kaburimbo, hagenewe abanyamaguru haparitse igare ry'umuyonzi. Hari abantu batandukanye barimo kugenda mu muhanda, ku rundi ruhande hari abamotari bari gushaka abagenzi.

Imodoka nini itwara ibintu bitandukanye ifite ibara ry'umweru inyuma y'ubururu iri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwaho hari umugore urimo kugenda n'amaguru, inyuma y'imodoka hari abamotari bahetse abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye, bitandukanyijwe n'agace karimo ubusitani ndetse gateyemo ibiti by'imikindo. Munsi y'umuhanda hari ibiti bitandukanye bigize ubwiza bw'umujyi. Hari imodoka irimo kuzamuka muri uwo muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka y'umweru yikoreye umuzigo, kuri iyo modoka yikoreye umuzigo, hicayeho umuntu wambaye umupira w'umuhondo urimo kugenda ucunga umutekano w'imizigo.

Nyabugogo aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara, hari imodoka nini cyane zitwara abagenzi bakunze kwita shira umuteto, n'imodoka zifite ibara ry'umuhondo hejuru zitwara abantu benshi bamwe bicaye abandi bahagaze.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini cyane itwara abagenzi, ku ruhande rundi ahegereye akayira k'abanyamaguru hari umuyonzi utwaye igare ariko adafite umugenzi.

Umumotari ahetse umugenzi mu muhanda wa kaburimbo, ageze ahantu ikimodoka kinini cyikorera imizigo gifite ibara ry'icyatsi kirimo gukatira, arahagaze kugirango kibanze kimuhe inzira atambuke.

Abanyonzi bahetse abagenzi, barimo baragenda mu muhanda wa kaburimbo, hepfo yawo hari imodoka nini yikoreye imizigo ifite ibara ry'umweru, ku ruhandi rwo hepfo hateye ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu utwaye moto, wambaye ingofero y'umutuku, hepfo ye hari ikimodoka cyikorera imicanga, amabuye, itaka, n'ibindi bikorwa by'ubwubatsi, gifite ibara ry'umutuku.

Imodoka itwara imizigo ifite ibara ry'umweru isakaje ihema inyuma iri mu muhanda wa kaburimbo, imbere yayo hari umugenzi uri ku igare na we ahetse umuzingo inyuma.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwara imizigo ifite ibara ry'ubururu, ibangikanye kuruhande rwo hepfo nimodoka nziza cyane ifite ibara ry'umukara. Kumuhanda waharuguru hari akayira k'abanyamaguru.

Imodoka nini itwara imizigo ifite ibara ry'umweru iri mu muhanda wa kaburimbo, irimo iragenda kandi ipakiye imizigo, ku ruhande rwo hepfo rw'umuhanda hateye ibiti bitandukanye bizana umuyaga mwiza mu mujyi.

Umunyamaguru arimo aragenda ku ruhande rw'umuhanda, arimo arazamuka. Kuruhande rwo hepfo hari imodoka nini cyane itwara abagenzi. Ni imodoka itwara abagenzi benshi kuburyo bamwe bagenda bicaye abandi bagenda bahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo izuba ririmo kuva. Umumotari arimo arashaka abagenzi nta mugenzi afite, ari hafi y'igiti kinini kiri munsi y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibyerekezo bibiri, aho imodoka zimwe zimanuka izindi zikaba zizamuka, ibyo byerekezo bibiri bitandukanyijwe n'ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo ndetse n'amatara amukira umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo umuntu utwaye igare. Harimo imodoka nini yikoreye imizigo, itwikirije ihema irimo irajya guhagarara munsi y'umuhanda. Hari abantu babiri bayihagaze iruhande.

Ibinyabiziga birimo kugenda mumuhanda wa kaburimbo, hari igare rihetse umugenzi hari n'ikimodoka kinini cyikorera imizigo kiri mu muhanda wa kaburimbo gifite ibara ry'umweru hari akandi kamodoka gatoya k'umutuku kagiye kubisekana nacyo.

Umunyonzi arimo arasunika igare rihetse umufuka munini, hejuru y'umufuka hariho umusego w'igare. Iruhande rw'umuyozzi moto itwara imizigo ifite ibara ry'ubururu iri mu muhanda nayo irimo kugenda inyuma itwikirije ihema.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibyerekezo bibiri, aho imodoka zimwe zimanuka izindi zizamuka, ku ruhande rumwe hateye indabyo zitandukanye n'ibiti bitandukanye, naho ku mpande zombi z'umuhanda, hari inzira yagenewe abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwara imizigo, itwikirije igipapuro kifite ibirango bya pirimusi bya burarirwa, munsi y'umuhanda naho hari ibiti bitandukanye ndetse hateye n'ubusitani.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka y'umweru itwara abagenzi irimo iragenda, iri mu kubisikana na moto itwara imizigo, ifite ihema ry'umukara inyuma, iyo moto itwara imizigo iriho nimero za telefone za nyirayo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye uyu muhanda kandi uririho akayira kagenewe abanyamaguru. Mu muhanda wa kaburimbo hariho umunyegare utwaye igare, ndetse n'abantu batwaye abagenzi kuri za moto. Harimo imodoka itwara imizigo ifite inyuma hatwikirije ikintu mu cy'umweru.

Imodoka nini itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali. Imodoka ifite ibara ry'ubururu, ni imodoka itwara abagenzi benshi kuko bamwe bagenda bahagaze, abandi bakagenda bicaye, bakunda kuyita shira umuteto.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini cyane itwara abagenzi, ni imodoka itwara abagenzi benshi kubera ko bamwe bagenda bicaye abandi abakagenda bahagaze, bakunze kuyita izina rya shira umuteto.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu urimo kuzamuka kuri moto, ariko nta mugenzi afite ni umumotari, ageze ku nzira aho abanyamaguru bambukira, arahagaze kugira ngo abanyamaguru batambuke.

Umuhanda wa kaburimbo harimo umunyonzi uhetse umugenzi, harimo na moto yikorera imizigo bakunda kwita rifani, munsi y'umuhanda hateyeho ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye, hari imodoka nini itwara imizigo nibicuruzwa, ifite ihema ry'umweru inyuma n'imodoka biri kubizirikana ifite ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto itwara imizigo ifite ibara ry'ubururu, imbere yayo hari ikimodoka kinini gifite ibara ry'umutuku, kigenewe kwikorera ibikoresho by'ubwubatsi, amabuye, imicanga amatafari n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite inzira y'abanyamaguru ku ruhande rwo hepfo, mu nzira y'abanyamaguru harimo umuntu urimo kuza, naho muri kaburimbo hariho imodoka nini yikoreye ibicuruzwa itwikiriye, inyuma yayo hari indi modoka y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ku ruhande, inzira yagenewe abanyamaguru. Mu muhanda wa kaburimbo hari umumotari ,udafite umugenzi urimo uzamuka. Ku rundi ruhande hari ikimodoka kinini cyane cyikoreye imizigo itwikirije ihema.

Aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara Nyabugogo hari imodoka ntoya itwara abagenzi, hari n'ibimodoka binini bitwara abagenzi benshi bamwe bagenda bicaye abandi bahagaze, harimo n'abantu batandukanye baje gutega imodoka.

Imodoka itwara abagenzi muri rusange, ni imodoka nini cyane itwara abantu benshi kubera ko bamwe bagenda bahagaze abandi bakagenda bicaye. Bakunda kwiyita shira umuteto.

Imodoka ndende cyane itwara ibicuruzwa ifite ibara ry'umweru irimo inka zitandukanye zigiye kubagwa n'inka nyinshi cyane munsi y'uwo muhanda hari ibiti bitandukanye biteyeho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bibiri. Imodoka y'imbere ni igikamyo kinini gifite ibara ritukura cyikorera imicanga n'amabuye cyangwa se ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi. Inyuma hari moto yikorera imizigo ifite ibara ry'ubururu.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru giherereye haruguru y'ishyamba, ni ikibuga giteye neza abantu batandukanye bashobora gukoreraho imyitozo hakubiyemo n'amakipe y'umupira w'amaguru cyangwa se abantu ku giti cyabo bashaka kugorora umubiri.

Ibyapa biranga imihanda biba bigizwe n'ishusho y'urukiramende yanditseho inyuguti zigaragaza agace cyangwa akarere umuhanda uherereyemo hagati harimo imibare igaragaza nimero y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, hari abamotari babiri bari kuri moto zabo bambaye iyenda y'akazi kabo, barimo barashakisha abagenzi. Ku ruhande rwo hepfo rw'umuhanda hari akayira kagenewe abanyamaguru, na ko munsi ya ko hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti.

Icyapa kigaragaza ko ikinyabiziga cyose kitagomba kurenza kilometero bahu mirongo itandatu mu isaha. Ni icyapa kigizwe n'ibara ry'umweru rizengurutswe ni ibara ry'umutuku hagati harimo umubare mirongo itandatu, munsi y'icyo cyapa hari icyapa kigaragaza ko imbere hari kamera y'umutekano.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragaza ko utagomba kurenza kilometero mirongo itatu mu isaha. Kigizwe n'ibara ry'umweru, rizengurutswe n'ibara ry'umutuku, hagati harimo umubare mirongo itatu, uri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kigaragaza izina ry'umuhanda, kigizwe n'urukiramende rwanditseho inyuguti zigaragaza aho umuhanda uherereye, hagakurikiraho imibare igaragaza nimero y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite akayira k'abanyamaguru kuruhande. Ku ruhande rwo hepfo hateyeho ibiti bitandukanye. Hateyeho kandi icyapa kigaragaza ko utagomba kurenza umuvudu wa kilometero mu isaha. Munsi yacyo hari icyapa kigaragaza ko imbere hari kamera y'umutekano.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibyerekezo bibiri bitandukanye, imodoka zizamuka n'imodoka zimanuka. Ibyo byerekezo byombi bigabanyijwe n'agace gateyemo indabyo, kandi kuri uwo muhanda hari ibyapa biyobora ibinyabiziga.

Icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira muri kaburimbo, kigizwe na mpande eshatu izengurutswe n'ibara ry'umutuku, hagati harimo umuntu urimo yambuka umuhanda mw’ibara ry'umukara.

Icyapa kigaragaza ko umuntu agomba kwitonda agiye kugera aho imihanda ihurerira, kigizwe na mpande eshatu y'umweru izengurutswe n'ibara ry'umutuku, igihe cyose kibonye uba ugomba kwitonda cyane.

Akarere ka Rusizi ni kamwe mu turere mirongo itatu tugize u Rwanda. Akarere ka Rusizi kakaba gaherereye mu Ntara y'Iburengerazuba kakaba gahana umupaka n'Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'Igihugu cy'u Burundi.

Umuhanda wa kaburimbo ni umuhanda umeze neza kubera ko aho urangiriye agiye hasize amarangi agaragaza aho umuhanda ugarukiye, ku ruhande aho harangiriye hari ubusitani buteyemo ibyatsi hari icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bashobora kwambukira.

Ahantu imihanda ihurira hari imodoka y'umukara ihagaze ku muhanda, hari ibyapa bibiri bigaragaza ko ari ku mupaka ugabanya u Rwanda n'igihugu cya Uganda, ubwo rero umuntu uhagazemo agaragaza ko agiye mu gihugu cya Uganda.

Icyapa kigaragaza aho imirimo iri gukorerwa mu muhanda kigizwe na mpandeshatu izengurutswe n'ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'umweru ririmo umuntu urimo utiyura umucanga n'igitiyo mu ibara ry'umukara.

Icyapa kigaragaza ko umuhanda ubujijwe mo imodoka zitwara abagenzi, kiba kigezwe n'ibara ry'umweru rizengurutswe n'ibara ry'umutuku rinyujijemo akarongo k'umutuku, imbere hashushanyijemo imodoka itwara abagenzi.

Mu masangano y'imihanda aho ibinyabiziga bibisikana ari byinshi, harimo amatara ayobora ibinyabiziga n'abagenzi batandukanye, imodoka zirimo ziragenda muri uwo muhanda.

Icyapa kigaragaza aho imirimo irimo gukorerwa mu muhanda. Ni icyapa gikoze nka mpande eshatu izengurutswe n'ibara ry'umutuku ku ruhande, hagati harimo ibara ry'umuhondo harimo umuntu uri mu gutiyura umucanga uri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kigaragaza aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara, kiba kigizwe n'ibara ry'ubururu rya mpande enye rizengurutswe n'ibara ry'umweru harimo inyuguti ya p iri mu ibara ry'umweru n'imodoka itwara abagenzi hasi iri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite ku ruhande ahantu bateye ubusitani buteyemo ibiti, hashinze icyapa kigaragaza ko nta kinyabiziga cyemerewe kuhahagarara umwanya munini.

Umuhanda wa kaburimbo umeze neza, ku ruhande hari akayira kanyuzwamo amazi y'imvura. Ku ruhande rwo haruguru hari icyapa kigaragazako umuhanda ushobora gukomeza imbere cyangwa se ugakata iburyo. Hejuru y'umuhanda hari inzu z'abantu bahatuye.

Icyapa kigaragaza aho imodoka zitwara abagenzi zihara kigizwe na mpandenye y'ibara ry'ubururu irimo inyuguti ya pa y'ibara ry'umweru munsi hashushanyijeho imodoka itwara abagenzi mu ibara ry'umweru.

Icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bagomba kunyura bambuka umuhanda. Kigizwe na mpande eshatu izengurutswe n'ibara ry'umutuku, hagati harimo ibara ry'umweru ririmo umuntu urimo kwambuka umuhanda ugaragazwa n'uturongo tuwukurikirana tw'umukara.

I Kanombe ahitwa mu Kajagari ni hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, hari imyubakire itandukanye aho amazu menshi ari amazu aciriritse ndetse amwe akaba anashaje.

Umumotari utwara abagenzi yambaye umwenda w'akazi ari mu muhanda atwaye moto ye, nta mugenzi afite arimo aragenda buhoro mu muhanda wa kaburimbo arimo ashakisha abagenzi gahoro gahoro.

Mu muhanda harimo abamotari barimo baragenda, hari umumotari uhetse umugenzi wambaye kasike z'umutuku, imbere inyuma ye hari undi umotari urimo kugenda hari igiti cy'umukindo giteye hagati mu muhanda.

Imyubakire cyangwa se imiturire itandukanye mu mujyi wa Kigali. Usanga hari ahantu hubatswe amazu ageretse y'amatage maremare, ahandi ukahasanga amazu magufi. Aba atandukanye kandi hagati y'urugo n'urundi hari igihe haba hateyemo ibiti.

Imiturire iciriritse yo mu mugi, imiturire igizwe n'amazu atandukanye, amazu afite amabati amwe mashya n'andi afite amabati ashaje cyane, nta mihanda irimo hagati.

Kibagabaga ni agace kamwe kagize umujyi wa Kigali gaherereye mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Ni agace gatuwe n'abantu batandukanye harimo inyubako zitandukanye zimwe zirageretse izindi ziracishirije.

Banki ya kigali ni kimwe mu bigo by'imari bikorera mu Rwanda ni ikigo gikomeye cyane kubera ko gifite abanyamuryango benshi cyane hatagegamo serivisi zitandukanye kubitsa amafaranga kubikuza kwishyura ibintu byinshi bitandukanye no guhabwa inguzanyo.

Mu mujyi wa Kigali hari imiturire itandukanye; bitewe n'uduce dutandukanye, hari ahari amazu ageretse kandi amazu meza cyane, hari n'ahari amazu matoya ariko buri miturire igiye harimo ibiti bitandukanye, bizana akayaga keza.

Imyubakire y'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ugizwe n'amazu atandukanye mu mikomerere, mu burebure, no mu bwiza. Amwe ni maremare, andi ni magufiya kandi hagati y'amazu n'andi hagiye hateyemo ibiti bitandukanye.

Mu masangano y'imihanda ya kaburimbo haba harimo amatara atandukanye ayobora abagenzi n'ibinyabiziga, hagaragaramo kandi aho abanyamaguru bateganyirijwe kujya bambukira hagizwe n'imirongo y'umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo ahateganyirijwe kwambukirwa n'abanyamaguru, haba hagizwe n'imirongo y'umweru ishushanyije muri kaburimbo kandi hano harimo abanyamaguru barimo kwambuka.

Ahitwa ku kinamba mu mujyi wa Kigali hari imihanda ibiri umwe unyura munsi undi ukaba unyura hejuru iruhande rw'uwo munsi hari akayira k'abanyamaguru kandi harimo n'ibinyabiziga birimo kugenda mu muhanda wo hasi.

Ku muhanda wa kaburimbo hari abantu bafite ibinyabiziga; harimo amapikipiki ndetse n'abafite amagare; bose bategereje abagenzi; ni nijoro kubera ko umuhanda ucanyeho amatara.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibyerekezo bibiri, ni umuhanda ukikijwe n'ibiti bitandukanye, kuri uwo muhanda kandi hari icyapa kigaragaza ko nta modoka yemerewe kuhahagarara.

Umuhanda wa kaburimbo, ahantu hari amasangano y'imihanda. Hari amatara ayobora ibinyabiziga n'abagenzi. Hari kandi inzira igaragaza aho abanyamaguru bambukira, igizwe n'imirongo y'umweru, yishushanyije mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uriho akayira kagenewe abanyamaguru ku ruhande. Hariho kandi ahantu hagenewe kwambukirwa n'abanyamaguru hagizwe n'imirongo y'umweru itondekanye yambukiranyije umuhanda.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, ugizwe n'imihanda y'ibyerekezo bitandukanye, ku ruhande hakaba hari ubusitani buteyeho ibiti, ndetse hakaba hari n'inzira z'abanyamaguru.

Mu masangano y'imihandava iva mu byerekezo bitandukanye mu mujyi, harimo amatara ayobora ibinyabiziga kandi hakaba harimo n'aho abanyamaguru bambukira.

Mu muhanda wa kaburimbo hari inzira abanyamaguru bambukiramo, ni inzira igaragazwa n'amabara y'umweru agiye akurikirana aciye mu muhanda hagati wa kaburimbo, harimo umuntu ufite igare urimo kwambukira muri iyo nzira.

Ahitwa ku Kinamba, ahantu hari umuhanda unyura hejuru y'undi, ku muhanda wo hasi hari abamotari batwaye abagenzi, ku muhanda wo hejuru nta kinyabiziga gihari, ku nkengero z'iyo mihanda hari inzira zagenewe abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abagenzi batandukanye, ku muhanda ku ruhande rwo hepfo hari inzira yagenewe abanyamaguru, hahagaze umusore ufite igare ry'abanyonzi uri gushaka umugenzi, umumotari nawe arimo aragenda muri uwo muhanda ashaka abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira, haba hashushanyije imirongo y'umweru yambukiranyije umuhanda hari n'imodoka irimo kuzamuka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye birimo kuwugendamo hari imodoka zirimo kumanuka hari n'izindi zirimo kuzamuka umuhanda wo hepfo ukikijwe n'akayigera k'abanyamaguru imbere hari ibiti bitandukanye iburyo n'ibumoso bw'umuhanda.